Ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zambaye imyenda ya gisirikare. Ifite idarapo ku rutugu. Bambaye ingofero, abasirikare barinda umutekano w'igihugu cyacu.

Aha haragaragara kamera yo ku muhanda igaragaza ishusho imeze nk'umuntu utukura, n'undi w'icyatsi kibisi. ku cyatsi kibisi bisobanuye kwambuka umuhanda, umutuku bisobanura urupfu ubwo uhambukiye bakugonga. Murakoze.

Aho tugeze aha dusanga abantu bavuye mu inama, barahagaze bari kumwe na musenyeri abapolisi ba udupfukamunwa, barikwinda ibyorezo bitandukanye imande yabo hari imodoka, ahandi inyuma yaho hari inzu isa n'iwo yakorewemo inama murakoze.

Mikoro ituma ijwi rigera kure, inyenyeri igaragaza ko umupolisi cyangwa umusirikare arenze abandi, idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, impapuro ari gusoma ari gutanga ikiganiro.

Ubwato bugenda mu mazi bw' abapolisi bafite imbunda bari kurasa abandi barimo batwara. Ubwato busa n'mweru buriho ibintu bisa n'umukara.

Imodoka itwaraga imizigo, inyuma yaho hariho ibiti, imodoka iri kugenda mu muhanda, imbere y'imodoka hariho abapolisi n'abandi bantu bipfutse mu maso.

Abapolisi bambaye ingofero, bambaye udupfukamunwa, imyenda yabo iriho ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda, bambaye inkweto z'umukara zitwa timba.

Imodokaka bagendamo zeburakorosingi bambukiramo, imodoka ziri kuzamuka ,abantu bagiye kwambuka, umupolisi ahagaze ahantu bambukira ategereje kuyobora abantu ngo bambuke ,undi mupolisi afite radiyo iri kurangurura amajwi ,uko abantu bakwiriye kuzajya bambuka.

Urujya n'uruza rw'abantu baje mu nama bicaye mu ntebe z'abanyeshuri zitwa pipitire, bakurikiye umuyobozi wabo, umuyobozi wabo arimo arababwira byinshi mu kibuga cy'amashuri abanyeshuri bigiramo.

Indege iguruka mu kirere, itwara abagenzi, igendera mu kirere, umuhanda indege iparitsemo, ni umuhanda ibinyabiziga binyuramo, murakoze.

Umuhanda ucamo imodoka, ibiti bakunda gutera hafi y'umuhanda, ikintu kiri ku muhanda bita kamera, na pasiparumu ziteye impande y'umuhanda.

Intebe abantu bicaraho, umubyeyi arahagaze yambaye umupira w'umutuku n'amataratara afite indangururamajwi, arimo aravuga bari kubwira abantu bitabiriye inama.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara iriho ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda, afite mikorofone irangurura amajwi, yambaye isaha bareberaho igihe ari gutanga ikiganiro abantu bamukurikiye birasa neza.

Intebe bicaraho, ameza batekarekaho ibintu runaka; abantu bicaye ku meza bafite impapuro mu ntoki, bari gusoma, abandi barakurikiye, biragaragara ko bishimye.

Intebe bicaraho, akabati bashyira mu mafoto runaka, urugi banyuramo bari kwinjira cyangwa gusohoka, abamama bicaye ku ntebe, bashyize amatelefoni ku ntebe, amatelefoni bayakoresha bari guhamagara, undi afashe impapuro ari kwandika ahetse n'umwana.

Haragaragara ingoma, imirishyo yo kuvuza ingoma. Uvuza ingoma ni umuco, kuko kera nta nta bindi byuma byahabaga usibye ingoma.

Umukecuru ufite imvi, wakenyeye ibishura, yambaye urunigi mu ijosi, umukecuru bigaragara ko ashaje cyane.

Urugo rwubakishije ibigorigori, bashyiraho imbariro kugira ngo rutazagwa, n'inzu yubakishije ibiti isakaje ibyatsi, ishyamba ririmo ibiti.

Ababyinnyi bambaye imikenyero, bafite; imiheto, inkoni, bambaye ingofero, n'abakaraza bari mu kibuga,..

Umuntu wikoreye umuvure, umuvure ba wengeramo ikigage, bawukamiramo ibitoki, ba wutaramo inzoga, bari kugenda mu muhanda w'ibitaka, ibigori biteye iruhande, rwabyo bitari byera.

Ababyinnyi babyina imbyino za kinyarwanda ndababona barimo barabyina bizihiwe, ndabona inyubako za kinyarwanda zimwe basakarishaga ibyatsi zimeze nk'izeru, nyine umuntu yubakaga inzu imeze nk'izeru hanyuma akasakara, agashyiramo akantu bazita inzu z'ibyatsi.

Ndabona ababyinnyi bateze amaboko neza nk'inyambo. Barimo barabyina imbyino nyarwanda, abandi baracunda amata mu gisabo. Ba basoje bayabuganije mu bicuba, ndatekereza abandi bari kuyanywa.

Idarapo ikirango k'Igihugu, abakobwa bari kubyina imbyino nyarwanda, bambaye ishabure, amayugi, bateze amaboko bameze nk'inyambo bateze amaboko nk' inyambo.

Hano hari inka ziri kunywa amazi harimo inka z'umukara ibihogo, hari n'umushumba wazo ari kugenda afata amazi mu kidendezi cy'amazi, agasuka mu kintu gisa n'umuvure kugira ngo inka zibashe kubona uko zinywa, zitaza kugwa mu kizenga.

Inanga bacuranga ikozwe n'igiti, uducuma tubiri n'akagozi gatandukanya umurya, cyangwa umushipiri n'akandi gati kavuza inanga.

Aha, hari umuntu ugaragara afite intara mu ntoki. Mu mpande ye, habiteretse umufuka ibishyimbo, yabishyize ku nta, ari kubikosora, akazajya ahuha kugira ngo imyanda ivemo, ibishyimbo bise neza.

Igisabo giteretse ku bishogoshogo, ibishogoshogo biranbuye ku kirago, igisabo bagicundiramo amata, igicuba banyweramo amata, biteretse ku kintu kibohesheje imigano.

Isekuru basekuramo isombe, basekuriramo ubugari bakoresheje umusekuzo, bataretse isekuru, amabuye ateretse imbere y'umuryango, ibirenge by'umuntu uhagaze mu muryango.

Ikibindi bengeramo umusururu, umusururu uri mu kibindi ,imiheha iri mu musoruru cyangwa ikigage, imiheha bakoresha bari kunywa umusururu.

Inka z'umukara ziri kumwe n'umushumba, ziri kugenda zifite amahembe y'umweru ateze nk'inyambo. Iruhande rwayo hariho ishyamba ririmo ibiti byitwa ibidukikije hariho igicu .

Isekuro basekuriramo isombe ,bakayisekuriramo ubugari, imyumbati y'ubugari , isekuro yagiye isaza bakayisudira.

Ingoma ifasha abantu gusohora amajwi neza, ingoma barayivuza ingoma ikenera abakaraza, ingoma ni igicurangisho cyo mu muco nyarwanda wa kera.

Inkono ikozwe nk’ikibindi, iteretse kuri rondereza, harimo inkwi zitwa imyase, barimo baracana cyangwa baratekesha.

Inkoko eshatu zirimo ibintu bitandukanye. Imwe iriho ibitoki bidatonoye ariko bihiye, ibirayi bidahase bihiye. Imbehe iriho umutsima w'ingano, indi nkoko bayishyizeho urukoma, aba ari rwo basukaho ibihaza ibishyimbo, n'ibijumba. N'amasahani ari ku iparato asa n'umweru, umuntu ari kwarura.

Abantu bafite imiheto biteguye bareze imiheto yabo bashaka kurasa ikintu runaka bambaye nk'abantu ba kera bambaye impu cyangwa ibyo bitaga impuzu.

Abantu bicaye bafite imisatsi bita igisuzu, basokoza hakazamo impande nyinshi zitandukanye, biteye imyitero, hakuryaho hari inzu yubakishije ibyatsi, mu muco wa cyera nibyo bubakishaga.

Ingoma bakoresha igiti, bakabambaho uruhu, nyuma bagashyiraho utundi tugozi ntazi, bakazikorera imirishyo, barazanika kugira ngo zirangurure, hariho intore zambaye imikarago.

Intore zambaye imyenda y'ishabure zifite umuheto, icumu zambaye amayugi zirimo zirabyina n'abakobwa barimo barabyina imbyino nyarwanda. Ingoma n'imirishyo umwana afashe ingoma undi muntu mukuru afashe imirishyo aravuza ingoma bari kubyina.

Ikigo bicaraho. Ababyeyi bicaye ku kirago bari gutunga ubudodo mu nshinge, bari kuboha ibyibo. Ibyibo bifashisha mu gukora imitako cyangwa se bakabitwaramo ibintu batuye ahandi.

Inanga cyangwa umuduri bacuranga，ziba zifite ikintu kimeze nk'umuheto kihinnye，cy'agati，bakazizirikaho umushipiri，ni uko ahasigaye bakazajya barabicuranga.

Kuri iyi shusho hagaragara inkangara, abantu benshi wagira ngo ni umuryango bafite, ibicuba by'amata baricaye barimo baraganira.

Iyi ni imitako, mu muco wa kinyarwanda abantu ba kera barayibohaga kugira ngo bayitake mu nzu. Abandi bayikoresha mu gutegura ku meza, ikindi iboheshwa imifuka itandukanye y'amabara atandukanye kugira ngo ize gusa neza.

Inkono y'itabi abakecuru banywera mu itabi bashyiramo igikamba bakarasa umwambi, bagashyiramo umuriro bagakururira kuri aka kantu kameze nk'umuheha uyu muntu afasheho.

Umuntu ufashe isuka ku rutugu, isuka bahingisha, urutoki bacaho ibitoke, ibyatsi bimera mu rutoki.

Igisabo giteretse hasi ku isima, gifite imigozi y'imishipiri ikiziritseho, igisabo bagicundiramo amata.

Inzu za kera muco nyarwanda zabaga zubakishije ibyatsi, intore zirimo zirabyina, zifite imiheto n'amacumu, zirimo zirabyina imbyino nyarwanda ,hariho n'abaririmbyi bari inyuma yabo barimo barabaririmbira kugira babone injyana babyinamo.

Inzu zubakishije amatafari ahiye ,zigaragara nk'aho ari isoko, imbere y'aho hateye indabo zigiye zirimo ,ibihanga byinshi ,ubwo nyine ni ahantu hatandukanye..

Abantu bari muganda bari murima bamwe bari guhinga imbere, abandi bari inyuma. Basa n'abantu bari gusiza ikibanza, bari guhereza ibitaka ab'inyuma, ab'inyuma bakazajya boherezaho inyuma bikagera aho bigomba kugera nyuma yaho hariho ishyamba.

Ingoma barazivuza, kugira ngo zirangurure amajwi cyangwa se niba hari ikirori kiryohe, abakaraza bafite imirishyo mu ntoki, bambaye imyenda y'ubururu n'abadamu bari kuvuza ingoma.

Amapave intore ziri kubyiniraho， zifite imikarago ku mutwe imeze nk'imisatsi y'umweru，zifite imiheto n'amacumu，barimo barabyina bari guhamiriza， ingoma bavuza kugira ngo， intore zibone uko zibyina， n'injyana， nabo bambaye imikenyero.

Igishushanyo cy'umugore wicaye ku mukeka, yicaye ahinnye amavi arimo aronsa umwana, yamufatiye ibere, umwana ari konka, umubyeyi ari kwitegereza umwana, mbese birasa neza.

Inzu ishushanyijeho inkende, abakobwa, igishushanyo cy'inkende imibyare ivaho ibitoki...

Inka z'Inyambo harimo iz'ibihogo, iz'umukara ,n'abashumba barimo barazuhira, zirashoka amazi ziri kunywa, inyuma yazo hariho ishyamba ,mu kirere utunyoni n'ibisiga biri kuguruka.

Umuvure bengeramo ikigage. Ikigage bakoresha ifu y'amamera, bashyizemo imiseke myinshi abantu barimo baranywa.

Urusyo basyaho impeke bifashishije ingasire, bakazajya bakuba ku rusyo. Inkoko bagosoza cyangwa bashyiraho ibyo bamaze gusya, bakoresheje urusyo n'ingasire.

Urusyo baseraho amasaka bifashishije ingasire, inkoko bateretse hasi, ari kugenda basya bakoresheje ingasire, ifu ikajya ku nkoko, ikibo bari gukuramo ibyo bari gusya abantu bashungereye.

Umutiba bubakishije ibirere bawumanika mu giti mu ishami bategereje ko uzana inzuki bakazakuramo ubuki.

Ikirago babohesha ubusuna n'ubudeyi, bakiraraho, bacyanikaho imbuto, abakera bakiraragaho; hariho n'umuntu ugifashe wampaye agapfukamunwa, uhagaze yambaye ikanzu.

Hano turabona ikibindi gisa n'icyo babaje bagakoraho utunwa tubiri , kirasa n'ikimanyi.

Umuvure bakamiramo ibitoki, bakengeramo ibigage, kandi umuvure utuma inzoga iryoha.

Ijire abantu bacuruza mitiyu baba bambaye, igikapu babikamo amafaranga intebe bicaraho, amadirishya n'inzugi biri kunzu.

Igisabo bacundimo amata hejuru bagishizeho ibirere bigifunga, bifunga ku munwa wacyo, barangije baboha akarunga kugira ngo igisabo kimere.

Ababyeyi bateze urugori n'amaboko, bambaye imishanana, barimo barabyina, bariho n'abandi inyuma bari kureba uko babyina.

Umukobwa wicaye ku ibuye yambaye inshabure afite intara mu ntoki iriho ibishyimbo. Arimo aragosora ibishyimbo, arimo arakuramo imyanda kugira ngo ibishyimbo abibike bisa neza.

Icyibo bakoresha nk'umutako, bagitwaramo ibintu batuye abantu, intebe bicaraho, imitako bataka mu nzu, inkoni bicumba, intebe bicaraho n'umucuruzi.

Imitako babohesha urushinge ishinge n'ubudodo bw'umufuka, ibiganza bifashe umutako uri kubohwa.

Inkono batekamo, gishobora no kwitwa ikibindi bengeramo ikigage, bakanjikamo igikatsi, impande yaho hariho imipupa iteretse hasi.

Biragaragara ko ari umugeni wasezeranye ari kumwe na marene n'abaherekeza, umugeni afite akantu mu ntoki k'agasakoshi cyangwa kamalete . Mu bigaragara barasa neza kandi ndabona bambaye imikenyero myiza, umukenyero wa marene n'uw'umugeni nk'ibisanzwe biba bitandukanye, hakaba n'abandi bamwambariye, murakoze.

Parafu bashyira mu nzu kugira ngo ahantu inzu ise, igaragare neza .Amatara bashyira mu nzu kugira ngo nibatsa ahantu haze kubona hagaragare neza, irangi riteye ku bikuta by'inzu.

Purize ifite imya itatu ifite nomero zeru cumi n'umunani hariho akantu k'umutuku bakirizaho purize ifite amabara abiri ubururu n'umweru hakaza kuza nako kabara k'umweru bakoresha batsa.

Icyuma bita fotokopiyeze umuntu ashyiramo urupapuro rwanditseho, agakuramo urundi rusa narwo, ruriho ibintu bisa n'ibyari byanditse kurwo washyizemo. barukoresha bari gusohora impapuro bazikuye muri mashine, cyangwa se ibintu biri kuri telefoni, bakabisohora ku rupapuro, ibintu byanditse bakabisohora ku rupapuro.

Aha hari purize ifite ahantu ho kwakiriza hatatu, byashoboka ko hamwe ari aho kwakiriza ahandi ari aho ukuzimiriza, iteye mu gikuta nk'ibigaragara.

Icyuma kitwa toronovisi bagikora bafunga amaburo, bagikoresha bari gusudira, bagikoresha hari akantu kahagamye ahantu bari gukuramo.

Rawuta bakoresha bari kohereza wifi cyangwa se interineti ahantu henshi hatandukanye, ku buryo buri wese abona interineti akoresha.

Aho bacagingira. Purize iriho akantu k'umutuku bakoresha bari kwatsa purize, hakabaho imyege itatu bacomekamo sharijeri cyangwa ikintu bacagingisha, kugira ngo umuriro ujye mu kintu umuntu acaginze.

Insinga bakoresha bari kwesitara amashanyarazi, aho bafata urusinga bakarushyira ku ipoto, bakarushyira ku yindi poto bityo rukaza kugera mu nzu, bakazesitara ukuntu, bagashyiraho amatara ku buryo umuntu acana bikaka.

Ishusho ya Yezu imanitse ku kantu kameze nk'ameza kari hejuru ku nzu. Amatafari ahiye bubakisha inzu. Amadirishya ameze nk'ayo ku kiliziya.

Umuntu uri kuvugira kuri telefoni afashe ku giti cyitwa sipure, pasiparumu ziteye iruhande rw'inzu, etaje igizwe n'inzu enye.

Umurima uririmo ibyatsi byinshi bitandukanye, inzira inyuramo abantu, inzu ifite mpande ebyiri, intebe zicaraho abantu inkwi baca.

Abantu bari mu rusengero barahagaze, bari kureba imbere hari umusaraba umanitse ,uriho Yezu awubambyeho,n' ishusho ya Bikiramariya .Abantu bari imbere ,bambaye imyenda y'umweru ,hari Padiri n'abahereza.

Inzu yitwa etaje igeretse kabiri，iriho akantu kameze nk’urubaraza batwikiriye，hejuru ya etaje hariho n’agasongero，imbere yayo hariho basiparumu n’igiti.

Urugi rwa metarike ruteyeho ifoto y'umuntu, handitseho n'ibyo akora bigaragaza ko ari noteri, noteri ni umuntu usinya ku byangombwa, urugero: agatera kashe kuri diporome, akayinotifiya, akaba ya..., guhinduranya ubutaka.

Hagaragara umuryango w'umuyobozi ushinzwe icungamutungo, afasha, afasha guhemba cyangwa se akarinda abantu kubura imishahara yabo.

Moto cangwa abamotari ni byiza kuko bifasha abantu kubatwara bibavana aha bibageza ahandi. Moto yoroshya urugendo, ahantu nyine hazamuka kuko imodoka iba itahaca umuntu yifashisha moto.

Kiliziya basengeramo, iriho umusaraba, iriho Bikiramariya, abantu bahagaze imbere y'urusengero, amapave ari hasi imbere y'urusengero, kugira ngo hazajye hagaragara neza.

Amashuri abanyeshuri bigiramo. Abantu bahagaze imbere y'amashuri, bambaye amajire yifashishwa mu kurinda umutekano. Umadaso wambaye imyenda y'akazi.

Amakarito ateretse hasi, inzu ifite amadirishya n'imiryango by'icyatsi, ifite inkingi ebyiri, abantu bahagaze ni batatu, pasiparume, amatafari ahiye, indabyo z'umweru n'imifuka irimo ibintu.

Etaje y'icumbi abanyeshuri babamo, ikorotiririye n'ibyuma, ikikijwe n"ibidukikije, ari byo biti, basiparu, umucaca. Mu kirere cyayo harimo igihu gisa n'ubururu n'icyumweru.

Abanyeshuri baricaye barimo baravuga ibyo bizeho, bari impande y'aho babika ibitabo, ibitabo by'amoko atandukanye, hari n'ahantu hari imipira y'amaguru, n'iy'amaboko, n'ibitabo byinshi bitandukanye byo gukina, sente yo gucuranga, na bibero y'abana bakoresha bari...

Amazu yubatse afatanye bubatse neza nk'amashuri abanyeshuri bigiramo. Umuhanda urimo amabuye utubuye duto dutuma ivumbi ridatumuka, pasiparumu ziri imbere y'amashuri.

Inzu iriho umusaraba, ni kiriziya cyangwa urusengero basengeramo, ruriho imiryango ibiri, amadirishya ane, amatafari ahiye....

Inzu y'ibiro by'akarere ka Musanze ni Etage, ikikijwe n'ibyuma, imodoka itwara abagenzi bakora.

Aha hari inzu mu bigaragara ni wese cyangwa ubwiherero, bukunze kuba bwubatse ku mihanda, bufasha abantu mu buzima busanzwe.

Umuhanda unyuramo abantu .Utubuye dusashe mu mbuga n'amatafari bubakisha yubatse inzu ndetse tw'umweru dukorotiriye ;ahantu ibiti biri mu ishyamba.

Umuntu uri imbere y'inzu warambuye amaboko, inzu ikorerwamo ibikorwaremezo, indabyo ni umutako utatse inzu, amapave akikije inzu kugirango imbere yaho habe hasa neza.

Inzu ifite agasongero, isakaje amabati yitwa Dumuzasi, inzugi zisa n'umutuku, bafure zisohora amajwi, kizimyamato isa n'umweru, ikoreshwa mu kuzimya ibintu.

Amazu menshi agaragara nk'amacumbi cyangwa se amashuri abanyeshuri bigiramo. Hariho amafoto iruhande rwayo, harihoho pasiparumu imbere y'iyo nzu n'indabyo. Imbere yaho hakaza kubaho umuhanda abantu banyuramo.

Abantu bari gutera mucaca, umucaca utuma ubutaka bukomera, ahantu hagasa neza. Inzu yubakishije amabati atukura, n'amatafari ya rukarakara, hariho umuntu uri kubafotora, bote zambara abahinzi,..

Abantu bitabiriye inama， hari abicaye ku ntebe， hari n’abandi bicaye mu byatsi， hakaba n'abandi bahagaze，bari kubaganiriza ，cyangwa bicaye ahantu hakikijwe n'ibiti byitwa inturusu n'amazu.

Uruhurirane rw'abantu bitabiriye inama, abayobozi batatu bicaye imbere, barimo barajya inama n'abaturage, hariho uwarangariye muri telefoni y' umuyobozi, ameza ateguwe neza, n'igitambaro kiboshye ukuntu.

Umubyeyi e ari mu nama, arimo aravu...afite mikorofone, arimo aravuga, abandi barakurikiye, abandi barimo barasoma igitabo, icyizere ni uko ari buze gusubizwa.

Abantu bahagaze n'abandi bicaye basa n'abitabiriye inama, umudamu wambaye igitenge afashe mikorofone, cyangwa indangururamajwi arimo aravuga, iruhande rwe hari ikintu bita bafure gisohora amajwi, inyuma hariho inzu zubatse n'urutoki bakoragamo......

Hano hari urujya n'uruza rw'abantu bitabiriye inama, bamwe bakurikiye umuyobozi abandi bararangaye, ni ku kigo cy'amashuri hari umu kameramani, bari gufata amajwi n'amafoto, nk'ibigaragara murakoze.

Abantu bitabiriye inama, bamwe bararangaye, abandi barakurikiye, hari umukecuru wemewe, umumama uri utanga ikiganiro afite indangururamajwi kugira ngo azajye aravuga abantu bose bumve, inyuma yaho hariho imodoka abantu bagendamo, n'inzu abantu babamo n'ibiti bidakitse.

Nibyiza ko abantu benshi bitabiriye inama, bari kumwe n'umuyobozi wabo. Bicaye mu mucaca cyangwa se mu kibuga. Bakurikiye umuyobozi wabo, arimo arabaha amabwiriza. Na bo ndatekereza bari buze kuyakurikiza murakoze.

Abantu bitabiriye inama bakurikiye umuyobozi wabo. Amacupa arimo amazi yo kunywa. Ururabo bategura ku meza kugira ngo ahantu hagaragare neza. Amahema cyangwa ibidara, ukoresha kugira ngo izuba ritagera ku bantu cyangwa imvura.

Iyi bisi ikunzwe gukoresha ahantu mu mijyi ukoresha tapu andi go. Aho abantu bamwe bagenda bicaye abandi bahagaze. Kunze gukoreshwa nyine igendamo abantu benshi, kugira ngo abantu bataza gusigara.

Imodokadoka yitwa ritiko ifite amabara atandukanye harimo icyatsi, ubururu n'umweru bwite n'ibirahuri n'ibyuma n'amapine iri kugenda mu muhanda itwara abantu benshi.

Igare ritwara abagenzi, umuntu yicaye ku igare arimo aratwara mugenzi we, afite amverope mu ntoki, impande yaho hariho urubingo, inyuma yaho hariho urutoki.

Bisi ni imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi; ibavana ahantu ibageze ahandi; yoroshya urugendo ikaza gufasha nyine abantu bayikoresha bayigiye

Umuhanda ugendamo ibinyabiziga, moto iri gutwara abagenzi, amagare ari gutwara abagenzi, ibiti biva mu ishyamba, cyangwa se hafi y'umuhanda, murakoze.

Amagare abantu bagendaho, abanyonzi bambaye amajire, ijire y'umuntu ucuruza mitiyu, umuhanda imodoka zinyuramo, ibiti bikikije umuhanda, abantu bambaye amataburiya bari ahantu amagare aparitse.

Imodoka zitwara imizigo, umuhanda ugendamo imodoka amazu bacururizamo, n'abantu bari kugenda mumuhanda.

Igare ririho umuzigo, umugore atwaye igare, imodoka y'umutuku itwara abagenzi, umuhanda ufasha abanyonzi, imodoka kugira ngo bize kugenda neza bifite umutekano bitaza guhungabanywa n'ibintu.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imodoka, amapave ucaho abagenzi zitwara abantu n'amatara yaka mu muhanda ibikikije umuhanda abantu bategeraho.

Umuhanda urimo bisi cyangwa imodoka, zirimo ziragenda zizamuka hariho amapoto, amatara se, insinga, izi modoka zorohereza abantu urugendo bava ahantu bajya ahandi murakoze.

Mu muhanda unyuramo ibinyabiziga; amagare yatwaraga abagenzi, umukobwa uri ku cyapa afite telefone ari kuyirebamo ari guseka, umuntu ufite aka anverope uri kugenda

Imodoka zitwara abagenzi zizwi ku izina rya shirumuteto, ziri kugenda mu muhanda, imbere yaho hariho amazu afite ibihanga byinshi bitandukanye, ku nzu zitandukanye na moto zitwara abagenzi.

Imodoka yatwaraga abagenzi mu muhanda, imodoka n'abagenzi bagendamo, inzu abantu babamo ibiti byitwa ibidukikije, indabyo zituma ahantu hasa neza.

Iyi ni bisi zikunze kuba mu mujyi wa kigali, zifasha abantu kuva ahantu bajya ahandi kandi zoroshya urugendo kubantu bari mu rugendo, ruva ahantu rujya kure biragoye ko umuntu yatega amatariki iyo hari bisi byorohera umugenzi.

Imodoka itwara abagenzi, ikintu bakuraho umugozi bakakiyobora mu modoka kigashyiramo esanse, esanse ituma imodoka igenda.

Imodoka zitwara abantu ziri kubajyana mu ntara. Amazu abantu babamo. Ishyamba riteyemo ibiti byinshi. Amazu bacururizamo muri gare aho imodoka zihagarara.

Imodoka cyangwa bisi zitwara abagenzi ,umuhanda unyuramo abantu ,n'imodoka n'ibindi binyabiziga bitandukanye ,abantu bari gutambagera banyura mumuhanda, imodoka itwara imizigo.

Ikibuga kirimo pasiparumu bagikiniraho vole, file barenzaho umupira, ibiti byitwa ibidukikije ,amabuye na yo ibi....

Amagare yitwa amakurusi, bari kuyanyonga, kamera ziba ku muhanda, umutaka bacururizamo mitiyu, abantu bashungereye, bari kureba amakurusi.

Siporo ni nziza .Ituma abantu bagira ubuzima bwiza, gukora siporo n'ingenzi, ituma imitsi igororoka bityo umuntu akagira ubuzima bwiza .Rero gukora siporo ni ingenzi kandi ni ubuzima.

Ikibuga bakiniramo umupira. Abakinnyi bari gukina umupira. Mu mabendera atandukanye harimo ibendera ry'u Rwanda n'amabendera y'amashyaka cyangwa seamakipe . Aha hariho n'abantu baje gufana.

Imodoka iri kugenda mu muhanda w'ibitaka , iri gutumura ivumbi , baturage bashungereye bari kureba ukuntu imodoka iri gutumura ivumbi, ibiti bikikije umuhanda.

Umukobwa usutse ibisuko bibiri, wambaye agasengeri k'umweru, agakariso k'umukara, udusogisi tw'umweru, unkwto z'umweru, arimo arakora siporo, ari kuzikorera ku giti cy'umweru, cy'umuhondo, akandi karirimo icyatsi, hakurya y'aho hariho ibiti.

Abakobwa bari gukina basikete, umwe ari kwirukana umupira, yambaye ijezi z'icyatsi, bafite direde ku mutwe, undi yambaye ijezi z'umweru, abandi bari hakurya barimo, bari gufana.

Abakinnyi bambaye amajezi y'umuhondo, mo imbere harimo udupira tw'umweru, ni abakobwa, bari mu kibuga bagiye gukina, inyuma yaho hari intebe zicayemo abafana,..

Pisine ni ahantu bogera, ahantu bashyira amazi bahakorera isuku abantu bakajya bogeramo, hariho uturabyo tw'umutuku n'utw'umweru turi gutuma aho hantu hasa neza, amapave akikije pisine na pasiparumu cyangwa jaride abantu baruhukiramo, n'ibiti byiza bimeze nk'imitaka.

Amazi yitwa pisine, abantu bayogamo bigishamo abo koga, akameza gateretseho fanta, ururabyo rwa rweze imbuto z'umweru, imbaho ziteretse hasi, wubakisha kugira ngo ahantu hase neza.

Abantu bafite ubumuga bw'amaguru, bafashe imbago bita insimburangingo, bambaye imyenda yabakinnyi, bambaye inkweto barimo barakina umupira w'amaguru, bari mu kibuga intebe bicaraho,

Abakinnyi bari gukina umupira bambaye imyenda itandukanye, jezi z'umweru, iz'umuhondo, hari umusifuzi, hariho n'abantu bari gufana.

Imodoka bigiraho gutwara ibinyabiziga, ivumbi riri mu muhanda ririmo riri gutumurwa n'imodoka.

Abantu bicaye ku masikariya bambaye imyenda y'amoko atandukanye, higanjemo udupira tw'icyatsi ingofero z'umukara n'amapantaro y'umukara.

Intore zambaye amayugi, rugabire, n'imyenda nyarwanda yo kubyinana imbyino nyarwanda ,zirimo zirabyina , hariho n'abantu bicaye mu ntebe baje gukurikira intore uko zibyina.

Ikibuga giciyemo ibice byinshi, birimo aho bakinira imikino runaka, ni ikibuga gishashemo amapave, iruhande rwaho hariho ibiti byinshi, harimo n'abantu bari mukibuga bari gukina.

Ikibuga kirimo pasiparumu, bagikoreramo siporo, harimo abantu bambaye ipantaro n'imipira n'ingofero bya siporo barimo bakora siporo z'amaboko abandi bari kwiruka.

Abasore babiri bari gukina umupira, umeze nk'agatenesi, bari kukinisha utuntu tumeze nk'udusahane, hino y'iki kibuga hariho amapota abiri agiye afatanye, hakaza igiti kigandaye nk'umutaka， bari gukinira mu kibuga kimennyemo ibarizo.

Abakinnyi bari gukina volley babiri bapfu umupi abandi barikureba fire barenza umupira uva mu kibuga kimwe ujye no mu kindi.

Ikibuga bakiniramo umupira, izamu bateramo igitego, abakinnyi bakina umupira, abantu benshi baje gufana abakinnyi bari gukina.

Aha hagaragara umuntu ubusa n'ufite mikoro, mu bigaragara ni umuhanzi, arimo ararimba yizihiwe, yazamuye intoki, abafana bishimye, byashoboka ko ari gushimisha, uburyo bwo kuzamura intoke ari ugushimisha abafana, murakoze.

Moto batwaramo abantu，ibitanda bacururizaho， isoko bacururizamo， inzu z’ubwiherero bihagarikamo， umuhanda banyuramo，n’amazu ari aho ngaho， ari kubakwa n’andi bakoreramo...

Umuhanda unyuramo abantu n'ibinyabiziga isuri yaje mu muhanda, umuhanda uhita upfa .Moto itwara abagenzi ,umugenzi wikoreye umuzigo.